Iyi ni inama hagati y'abantu batatu, aho babiri ari abayoborwa, undi umwe ariwe uyoboye inama. Muri iyi nama kandi bifashishije ikinyobwa cy'amazi y'Inyange kugira ngo babashe gukomeza inama yabo bamerewe neza.

Rebu, Rebu mu magambo arambuye bivuze Rwanda edikeshoni bodi mu kinyarwanda bikaba bivuze ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda.

Ziriya ni imodoka ni ibinyabiziga, hanyuma iki cyapa cyo gikozwe na tiriyangere, kirimo agakato n'icyapa kiri kutwereka yuko hariya imbere harimo ikoni.